Uyu musore ni umukozi wa mobile money yambaye umupira wanditseho MTN nk'uko mubibona ari gutanga amainite afasha abakecuru murabizi ko baba batazi gukanda telephone mu buryo bwiza bwo kubaha serivisi nziza zinogeye umukiriya uramufasha ukagura amainite ukamugurira pack cyangwa se promotion yo guhamagara.

Ubu ni ubucuruzi bwa Airtel, Airtel ni ikigo gitanga amayinite, kikabitsa, kikanabikoza kuri Airtel money, batanga serivisi nziza, bagatanga amayinite kuri make, batanga amayinite ya Unlimited.

Aha ni mu mujyi hari umwajeti ukorera imbere y'amaduka ahari, hari raka supa maketi cyangwa se bebi shopu, hakabaho stss shopu, hakabaho kipe muriyo shop, ni ku kiranguzo gusa ni kuri make niko bishatse kuvuga bacuruza n'amazi meza cyane amara inyota.

Eyateli mani. Iyi ni karitsiye ikoresha eyateli mani, hari utuzu twayo tuba turimo abajenti bafasha abaturage kubagezaho serivisi mu buryo bwihuse, babashishikariza kubitsa ndetse no kubikuza no kugura amayinite.

Uyu ni umwajenti wa MTN, bari gusaba serivise za mobayiro mani; kubitsa no kubikuza, kugura amayinite n'izindi serivise zose zigendanye na MTN. Ari imbere y'abakiriya baje gukoresha serivise.

Eyateri mu kazi kose ohereza unakire amafaranga ku murongo uwa Eyateri biroroshye cyane, Eyateri yakuzaniye na pake nziza yo guhamagara ugura ibihumbi bitatu gusa anirimitedi ku mayinite na jigabayiti imwe ku munsi kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyeri rimwe akanyenyeri urwego uwo ni umuntu uri gusobanura uburyo bikorwa.

Airtel mu kazi kose. Aba ni abakozi ba Airtel aho ibara rya Airtel rirangwa n'amabara abiri umutuku n'umweru, umwe yambaye umupira w'umutuku undi yambaye ishati y'umweru yanditseho Airtel, bafite za telefone za simatifone z'ibihumbi makumyabiri, bari kwamamaza kugira ngo buri wese azigure.

Umukozi wa eyateri ari ku cyicaro cya eyateri terastori n'amayinute ya eyateri ari anirimitidi ntahagarara uravuga paka urushye.

Umukozi wa Equit uhagaze aho ikorera, Equity ni banke ikora neza cyane, ifasha abaturage muri rusange kandi ntabwo ikata amafaranga menshi ku bakiriya bayo, uyikoresheje wese nta yindi banke yakongera gukoresha kuko Equity ni nziza cyane.

Uyu ni umumo w'ibigori bikuze byazanye twa tuntu two hejuru dutuma nyine byera vuba byaranahetse ndetse birabagaye bikoreye isuku harimo n'umurasire.

Aba ni abaturage bari ku bwanikiro, bamaze, bamaze gusarura ibigori, bari kubyanika, kugira ngo bigereho izuba byume neza, ubundi bihumire babijyane ku isoko ry'umurimo, bigurishwe.

Urwego biva mu mutima biva mu mutima wa momo mtn evuriweyayugo mtn ku isonga yoroheje ibintu ni ugufasha abantu bose muri mobayiro mani.

Aba baturage bavuye mu gishanga gufata ibiti byo gutera, bamwe bikoreye ku mutwe abandi bashyize mu mabase, mu mifuka undi yatwaye ku gare ari imbere yabo kubera umuhanda ari mutoya uva mu gishanga, bamwe bari kunyura mu bigori by'abaturage.

RVCP nyagatare. Aya ni amahugurwa arangiye agendanye na RVCP ahugura urubyiruko kugira ngo rwiteza imbere.

Aya ni ameza bariraho wenda nko mu gihe bakoresheje ikirori cyangwa abandi bantu runaka bishimye baraza bakicara buri wese akicara ku ntebe y'iwe ubundi bakabaha ibyo bakeneye bagasangira barebana mu maso bishimye baseka bafite ingingo bari kuganiraho urugero nk'inama y'ubukwe cyangwa indi nama nini ihuje umuryango.

Iri ni iduka ry'uyu mubyeyi uhagaze imbere yaryo acuruza imineke, umuceri, ifu y'igikoma, imigati, amandazi, amaji, twa tuji tw'abana, supaguru arimo n'umuzani, omo, amakaroni n'ibindi byinshi cyane ibyo wahashakira byose wabona hari na televiziyo kandi ntabwo ahenda.

Ahangaha ni ku nzu y'umucuruzi, avuye kurangura, imodoka imaze gupakurura, uyu ni umukozi wiwe uri kugira ngo atondeke ibintu ku murongo, amacupa ya novida avuye kurangura ateretse hasi agiye kubika akayegeranya, imbere naho hari amakarito y'isabune byose amavuta na zarakerete n'amabasi.

Hano ni muri botiki bagira ibikoresho cyane by'ikoranabuhanga, harimo ibikoresho by'amagare, intebe z'abana, iza po, amadarubindi, gaze bifashisha bari guteka winjiyemo n'imbere wasangagamo n'ibindi byinshi cyane.

Agasaradini, kanditseho jabo tomato sosi. Kabamo agasosi k'udufi karyoha cyane, ushaka wakarya gatetse cyangwa se ntugake, ni agakoresho nyine ko bifashisha bari guteka kugira ngo barye neza cyangwa se ukarya ri kabisi biremewe kadatetse nyine baba barakanyujije mu ruganda.

Aha ni mu isoko hari indagara z'amoko agiye atandukanye, ahangaha turi kureba hari indagara z'amoko ane, hari umuceri, amavuta y'igihwagari ndetse n'amavuta y'amamesa. Hari ifu y'akawunga, hari iy'igikoma, hari n'iya sosoma.

Iyaturiye ikora neza cyane, hari ibitenge by'amoko yose, hari ibisekeye, hari imyenda y'abageni, hari abantu nyine baje kureba ibyo bakeneye, uyu mukecuru ari kubereka imipira ihari, ibiryo dukora, ibyo bakoresha byose.

Uyu ni umucuruzi uri muri alimantasiyo, acuruza ibinyobwa: amajuwise, amazi, amatwisite, biswi, amata, shokora, fanta, marite, salade ndetse n'ibindi byinshi cyane biba muri alimantasiyo n'icyayi kirahaba.

Kiriziya gaturika uru ni urusengero rw'abaroma niho basengera rufite ubusitani bwiza ibiti byiza mu busitani bwiza burimo pasikaruma, ibiti, indabyo barasa neza cyane.

Aba ni abakecuru abagore barindwi bakoze korari, bari kuririmba batanga ubutumwa, harimo abafite Mikorofone, abandi bari gukora amasinye n'ibimenyetso bigendanye n'indirimbo yabo batoranyamo ubutumwa.

ADEPR caci patinashipu seleburasheni dina, aba n'abakirisitu n'abafatanyabikorwa b'itorero rya ADEPR mu Rwanda, bishyize hamwe bari guserebura ibintu bijyanye na dayina na ko babigezeho.

Ni mu gihe cya covid aho buri wese yashishikarizwaga kwambara agapfukamunwa kugira ngo atanduza mugenzi we kuko corona virus yanduraga binyuze mu mwuka cyangwa se mu buhumekero. Aha ngaha ni umuyobozi uri gushimira umuntu ukoze neza ari kumuha impano.

Hano ni nyuma y'amateraniro abakiristo basoje gusenga bagize abashyitsi ku itorero nyuma yo gusenga bafata ifoto bari koreza ku rusengero rwabo kugira ngo bazabohereze mu mahanga boboherereze inkunga.

Aha ni ku kiliziya n'abuturage bari gusohoka basoje misa abandi bajya kwinjira ngo bahabwe misa ya kabiri bayisomerwe n'abapadiri.

Uru ni urusengero rwashaje rwa kera. Rwari rusize irangi ry'umweru. Hirya ruriho amatafari ahiye. None ubu ngubu ntabwo bakirukoresha, rwaratobaguritse, amarangi yaranduye cyane no hasi nta muntu ukihakandagira hameze ibyatsi.

Abantu bari mu rusengero bari gusenga bari kuramya Imana, bari mu mwuka bafashijwe cyane bari kuririmba bamanitse amaboko, bahumirije bari gusenga Imana cyane bari mu mwuka.

Kiliziya gatolika, aha ni ku kiliziya, abakirisitu basoje misa ya mbere, iyo basoje misa yambere barasuzanya, hanyuma bagataha bakitegura abaza muri misi ya kabiri gusenga.

Iyi ni hoteli ifite ibyiciro byinshi cyane abantu b'inshuti basoje akazi bagiye muri lanshi baza gusangiriramo: abarimu, abaganga, abakozi bo muri banki ndetse n'abandi bantu bose bakeneye kuruhuka baza kwicara hano bagasangiramo bishimye.

Uburiri busashe neza buriho n'imisego yirya yaho hari itara biri ku gitanda cyiza cyane giteye amabengeza ku buryo buri wese uwubonye yifuza kuburyamaho. Ni uburiri busashe neza, amashuka y'umweru, mo hagati harimo irindi bara, imisego yayo izinngazinze mu gatambaro kumweru.

Hano ni muri saro hari n'ibindi byiza bifite ibara ryiza cyane, hari n'akabati na televiziyo, n'ifoto hejuru munzu aha ni muri salo hakoze neza cyane.

Aha ni muri hoteli icyumba kimwe gikodeshwa ibihumbi makumyabiri na bitanu kuraramo ijoro rimwe, gisashe neza, hari imisego, harimo itara, hariho ameza n'intebe ufatiraho burekefasiti mu gitondo, iyo ubyutse ukazimya amatara, ibintu byose ukabisiga ku murongo.

Ubu ni uburiri busashe neza buriho ishuka ifite amabara atatu, hirya hari televiziyo, hejuru hari inzitiramibu itarambuyeho, hariho urugi rufite amarido n'ifoto isize irangi ry'umweru.

Nyabugogo haba hari abantu benshi cyane, bari mu muhanda, moto, imodoka, abari kugenda n'amaguru, umuhanda uba wuzuye abantu benshi cyane, urujya n'uruza rw'abantu, bari kugenda bashakisha, abari gucuruza, abari guhaha n'abari gutega imodoka.

Aha ni mu isoko, uyu ni umucururiza ucururiza hirya y'isoko yicaye mu mutaka. Acuruza: amavuta, kotegisi, ibibiriti. Hirya hari n'undi nawe ucuruza: amavuta, imifuka, amavuta yo kwisiga, amavuta yo guteka. Hirya hari imyenda, ni isoko ribonekamo ibintu byose n'umuceri urahari.

Isoko ry'imbuto inyanya, imineke, avoka, ibitunguru, kokombure, amashu ni byinshi cyane. Imbuto zose ukeneye wazisangahano bafite ibintu byose byiza cyane.

Iyi ni imbabura yacana rumwe, icanishwa agakwi kamwe ukayishyiramo isafuriya ikwiyemo ugacana ntabwo ihinnda. Hirya hari icyarahani kidoda imyenda. Hirya hari ameza batereraho ipasi.

Inzu ifite etaje ebyiri, hariho idarapo ry'u Rwanda isikaje ambati ajya gusa ubururu, hasi hari abamotari, hari n'abandi bagabo babiri bari kugenda n'amaguru, hari n'ibyapa bigaragaza ibikorerwa muri izo nzu, uko bimeze.

Hano ni mu isoko ry'ibitunguru, abaturage bari gucuruza ibitunguru, ni mu gihe cy'izuba, izuba ryabishe bitwikira imitaka.

Iri ni isoko bari gucuruzamo ibiribwa, imyumbati bayitanditse mu isoko ni myinshi cyane kugira uza wese aze kugura bitamuhenze. Iyi myumbati barayihinga, bamara guyihinga bakayisarura, bakayitonora, bakayijyana mu isoko.

Aha ni mu isoko ariko ahegereye ku muhanda bahatandika ibikoresho byo mu nzu: indobo, amamatela, intebe, amabasi, inkweto, amajaga ndetse n'ibindi kugira ngo ubinyuzweho wese ahite abibona bitamugoye mu buryo bumworoheye.

Iri ni isoko ryo mu cyaro, ririmo ibicuruzwa byinshi, amasabune, amakaye, amavuta, inkweto na kotegisi. Imbere hari umukobwa, uhetse igikapu imbere uje guhaha hirya hari umutaka w'umwagenti, amagare ndetse n'amashitingi byose birimo.

Ibyo kurya biteguye neza biri ku meza, ibitego biri kuruta buri gusa n'umweru, ifoke n'icyuma biri ku ruhande byo bigoshisha hirya yaho hari ikirahuri n'icyo kunywa umuntu nyine umeze nk' wasohotse ari ahantu hicaye ari gufata akayaga hanze.

Izi ni moto ziparitse ahantu ku muhanda zose zitegereje abagenzi be n'abamotari bahagaze kumuhanda kugira ngo nibaza kubona abagenzi babatware. Bari kureba inyuma, bari kureba ko babona umugenzi uza gutega.

Abamotari bari mu muhanda, imbere yabo hari imodoka, umumotari w'imbere ahetse umuntu ufie umufuka w'umutuku hagati, uw'inyuma ntakintu ahitse akoreshako moto ikoresha ikoranabuhanga, iriho mubazi.

Iyi ni imodoka iri mu muhanda iri kugenda, ifite pulake ya RAH164A, iri kugenda mu muhanda hagati, inyuma ya yo hari moto ebyiri ziri kuza, indi kugenda ibisikanye nayo. Hirya yayo hari inzu iriho umupira wa baro.

Ari gutwara imodoka mu muhanda ari kugenda areba ko nta binyabiziga biri imbere yiwe yakorana impanuka nabyo, ari kugenda abikurikira neza, kandi yambaye umukandara birabujijwe kugenda utambaye umukandara wabugenewe. Ikindi kandi birabujijwe kugenda modoka uri kuri telefoni, urabona ko uyu mugabo yubahirije amabwiriza n'amategeko.

Uyu ni muntu utwaye moto, ari kugenda areba uriya muntu uri inyuma ngo ajya ko yamuha rifuti, amuhamagare nyine amutware kuri make. Uwo muntu afite telefone ntabwo ari yamubona ko ari kumuvugisha.

Aha ni ho abamotari baparika, izi ni moto zitwara abagenzi, hari umumotari wategereje umugenzi waje ku iduka ahantu ku nzu nini nziza cyane yubatse neza, bategereje abagenzi bagenda, iyo umuntu asoje guhaha ahita abaha bakamutwaza.

Uyu muhanda werekeza mu isoko, uyu mugabo utwaye igare ahetseho ibigori bihiye agiye kubigurisha mu isoko kugira ngo abantu bashonje birohere kubirya nta bintu bigoye byo kubatinzamo bajya guteka cyangwa se bajya kotsa.

Iyi ni moto iriho abantu babiri, umwe wambaye kasike y'umutuku, undi yambaye iy'icyatsi, bari kuri moto ya bogiseri, iri mu muhanda wa kaburimbo, hirya hari amazu, inyuma yabo hari umukobwa wambaye agapira kagiye gusa ka pinki.